Muri gahunda yo guteza imbere uburezi no kubaka uburezi bufite ireme, leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho ibigo by'incuke, amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na za kaminuza kugira ngo ategure umunyarwanda ufite ubwenge ndetse n'ubumenyi buhagije. Iyo gahunda kandi igamije kugira ngo ifashe abantu kwivana mu bukene ndetse no kwihangira imirimo.

Muri gahunda ya leta yo gushyigikira uburezi, leta y'u Rwanda yagiye ishyiraho uburezi mu byiciro byose bijye bitandukanye. Yagiye ishyiraho amashuri y'inshuke, abanza ndetse n'ayisumbuye bigera no ku rwego rwa kaminuza. Amashuri y'inshuke afasha abana kugira ngo abinjize mu buzima bw'ishuri kugira ubwo bazatangire amashuri bazabe badatinya ndetse babashe kunguka ubumenyi,

Uburezi bw'incuke ndetse n'ubw'ibanze mu rwanda bwashyizweho na leta y'u Rwanda, bushishikarizwa na leta y'u Rwanda ko umwana yiga na mbere y'uko ajya ku ishuri ahatozwa gukaraba no kugira isuku ibyo bikamufasha mu kumutegura kujya ku ishuri ndetse no kubasha kwiga agasobanukirwa vuba.

Mu rwego rwo gushyigikira uburezi, abana bakiri bato bateguriwe aho bazajya bigira mu mashuri y'inshuke, aho bajya bakiga gusabana n'abandi, bagahura na bagenzi babo bagatinyuka, bakigishwa ibintu bigiye bitandukanye mbere y'uko batangira, bikabafasha kubateguramo abanyabwenge b'ejo hazaza.

Binyuze muri gahunda ya Leta y'uburezi kuri bose, Leta y'u Rwanda ishyira imbaraga kandi ishishikariza abaturage kujyana abana babo ku ishuri guhera mu burezi bw'inshuke, uburezi bw'abanza ndetse n'ayisumbuye. Ibi byose bikorwa kugira ngo bategure umunyagihugu mwiza ujijutse kandi ufite ubwenge.

Mu marerero y'abana mu Rwanda, bagenda bashushanya, imfashanyigisho z'ibikoresho byo mu rugo bitandukanye kugira ngo bibashe gufasha umwana kwiga no gufata mu mutwe vuba, amazina y'ibikoresho bigiye bitandukanye n'uko byitwa mu ndimi z'amahanga.

Mu burezi bw'inshuke abana bifashisha ibipupe nk'imfashanyigisho kugira bibashe kubafasha kwiga vuba, ibyo babona ndetse binabafasha kwibuka ibyo bize mu buryo bworoshye, bifashishije bya bipupe bahorana.

Mu burezi bw'ibanze abana bagenda bigishwa ubumenyi bw'ibanze bakenera bashobora no kwifashisha mu kwihangira bagenda bigishwa ibikore bitandukanye bakishi mu kwi mu gihe baje amasomo yabo.

Binyuze muri gahunda y'igihugu yo gutanga uburezi bufite ireme, leta y'u Rwanda igenda iha amahugurwa abarezi barera abanyeshuri bo mu mashuri abanza. Kugira ngo abo bana babashe kugira ubumenyi bwisumbuyeho, ndetse babashe no gutozwa indanga gaciro bakuru bafite ubwenge.

Leta y'u Rwanda ishishikajwe no kurema abanyagihugu bajijutse ndetse bafite ubuzima buzima, ni muri urwo rwego Leta y'u Rwanda yagiye ishyiho uburezi mu byiciro bigiye bitandukanye guhera ku mashuri y'incuke kugeza ku yisumbuye ndetse na za kaminuza, Leta ishyiraho uburezi bw'ibanze kugira ngo abana babashe guhabwa ubumenyi.

Nk'imwe muri gahunda za Leta uburezi kuri bose bwibanda by'umwihariko uburezi bw'ibanze Leta y'u Rwanda ibushyiramo imbaraga cyane. Abana bose bo mu Rwanda bashishikarizwa kujyanwa ku mashuri hakiri kare, bakabasha guhabwa uburezi bw'ibanze ndetse by'akarusho bakabasha no guhabwa n'uburezi bwisumbuyeho.

Mu burezi bw'ibanze hakenerwamo imfashanyigisho zigiye zitandukanye kugira ngo uburezi bubashe gutambuka, kugira ngo ubumenyi bubashe gutambuka ndetse bufasha abana kumenya ubumenyi. Ni muri urwo rwego leta ikangurira abarezi kujya bifashisha imfashanyigisho kugira ngo bafasha abana gufata vuba ndetse babashe kumenya neza kumetereza ibyo bize.

Imyubakire, iyi nzu urayibona ko ari inzu yubatse mu buryo bugezweho, yubatse buteza ibyago ndetse buteza impanuka, igezweho yubaki ibikoresho bigezweho ndetse iteretse ahantu heza rwose bigaragaza ko biri muri gahunda ya Leta.

Mu burezi bw'ibanze leta yacu, leta y'u Rwanda idushishikariza, isaba buri mubyeyi wese guha umunyeshuri cyangwa guha umwana we ibikoresho bihagije byifashishwa mu burezi. Ibyo bikoresho bifasha umwana mu masomo atandukanye ndetse no kwiyungura ubumenyi mu buzima bwa buri munsi.

Uburezi bw'ibanze ku bana ni ingenzi kandi bubafasha mu myigire yabo ndetse no kwitegura kuba Abanyarwanda beza ndetse no kugira umumaro igihugu cyababyaye. Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo y'uburezi kuri bose ishishikariza buri muturage wese kujyana umwana ku ishuri kandi ikamumenyera buri kimwe cyose ndetse i ikita ku burezi bwabo kugira ngo bubashe kugenda neza.

Leta y'u Rwanda muri gahunda i nubu'ibanze burimo. Ishishikariza buri mwana wese kujya ku ishuri, akabasha kuvana ubumenyi bw'ibanze nkenerwa bwa buri munsi. Uburezi bw'ibanze yitaho by'umwihariko kugiran go bamenye ko bakeneye imyigire yabo igende neza.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahundayo y'uburezi kuri bose, ishishikariza buri mwana wese kugana ishuri akabasha kuronka y ubumenyi. Uburezi bw'ibanze ni itegeko ndetse leta ishishikariza buri mwana wese kwitabira ishuri. Umubyeyi utajyanye umwana ku ishuri aba ari kumuhemukira ndetse ntakwiye no kubihanirwa rwose.

Isuku, aha aba bana ni abana b'abanyeshuri, bari gukora isuku maze imyandaye aho hose bakayegeranya bakayishyira mu gikoresho cyabugenewe, cyagenewe gushyirwamo imyanda.

Imikino y'abana. Aha hari kugaragazwa ko hakorerwa ibikorwa bitandukanye bifasha abana kugira ngo baruhuke ndetse bakine bakure mu mutwe. Aha hari ibikinisho bitandukanye, nko kugendera ku magare, kwicunda ndetse n'ibindi bifasha abana gukura mu mutwe, ndetse bakabasha gukura bishimye.

U Rwanda rubinyujije muri gahunda yarwo y'uburezi budaheza rwashyizeho uburezi bw'ibanze, aho abana bajya ku ishuri bagahabwa ubumenyi ndetse bakanigishirizwa ikinyabupfura, indangagaciro, ndetse n'umuco w'amahoro. Ibyo byose bifasha kugira ngome umuturage ujijutse kandi utunganye.

Mu Rwanda leta y'u Rwanda ivuga ko uburezi bw'ibanze umwana buhabwa akiri no mu rugo, aho yiga gukora imirimo, akigishwa gukora ibintu bigiye bitandukanye by'ibanze bimufasha kwisanga muri sosiyete Nyarwanda. Yiga akiri mu rugo, agakomeza ajya ku ishuri kwiga ibindi byisumbuyeho.

Uburezi kuri bose ni ngombwa mu buzima kandi ni ngombwa kuko leta y'u Rwanda ibishishikariza buri wese . Leta yagiye ishyiraho amashuri y'ibanze amashuri y'incuke ,agenda afasha abana kubasha kwakira ubumenyi bushyashya, ndetse no gutegura abanyarwanda b'ejo hazaza heza.

Uburezi bwo mu rwanda bwateye imbere cyane, abanyeshuri by'umwihariko abageze mu mashuri yisumbuye bigishwa bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za kompuyuta kugirango imyigire ibashe kugenda neza bibafasha gukora ubushakashatsi ndetse no kwihutisha ireme ry'uburezi.

Muri gahunda ya leta yo kugeza uburezi kuri bose, Leta y'u Rwanda yifatanya n'ibigo byinshi by'iyobokamana harimo nka za kiliziya, mu gushyigikira ndetse no mu guteza imbere uburezi bwo mu Rwanda, cyane cyane uburezi bwisumbuye sekendari edikesheni.

Uburezi kuri bose ni gahunda ya Leta y'u Rwanda. Binyuze muri iyi gahunda ya Leta y'u Rwanda. Leta ishishikariza abaturage kujyana abana mu mashuri ndetse ntibige amashuri abanza gusa ahubwo bakabasha no kwiga n'amashuri yisumbuye kugira ngo babashe kunguka ubumenyi bwisumbuyeho ku buryo bazagirira umumaro igihugu ndetse bakanateza imbere imiryango yabo abanyeshuri.

Uburezi kuri bose ni gahunda ya leta y'u Rwanda. Uburezi ni imwe mu nkingi ya mwamba y'iterambere ry'igihugu. Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage kujyana abana babo ku ishuri bakabasha kwitabwaho, bakahererwa uburezi bubafasha kugira ngo bunguke ubwenge ndetse no kwihangira umurimo. Muri urwo rwego abana bajyanwa mu bigo bitandukanye kugira ngo bitabweho.

Uburezi. Ahangaha uyu muyobozi w'ikigo cy'amashuri, arikuganiriza aba banyeshuri ari kubaha ikiganiro, imbwirwaruhame. Abanyeshuri bateze amatwi, bicaye ku mapipitire nkuko bicara mu mashuri nubwo baba bari hanze.

Leta y'u Rwanda ni umubyeyi. Ifite gahunda yo kugeza uburezi kuri bose kandi ishishikariza abanyarwanda bose kujya mu burezi. Amashuri yisumbuye ashyirwamo imbaraga na leta kugira ngo abantu babashe kugira ubwenge bwisumbuyeho ndetse abashe kugirira umumaro igihugu cyababyaye.

Uburezi mu Rwanda burakataje mu imbere. Abanyeshuri biga mu mashuri makuru biga ibintu byinshi bitandukanye ndetse n'ahantu bigira hameze neza ku buryo habafasha mu myigire yabo ya buri munsi. Bigira ahantu heza habemerera kubasha gukurikira neza batabangamiwe n'uburyo bari kwigamo.

Ubugeni n'ubuhanzi byaretse kuba impano z'abantu ahubwo byageze ku rwego bishyirwa mu mashuri, ubu amashuri makuru na za kaminuza byigisha abantu ibijyanye n'ubugeni n'ubuhanzi. Ibyo kandi byagaragaye ko bifasha abantu mu nzira y'amajyambere, aho ibyo byose bibaha amafaranga yawe ukabasha kwiteza imbere.

Amashuri makuru na za kaminuza bigendeye kuri gahunda y'igihugu yo gushyigikira ubugeni n'ubuhanzi, bitanga uburezi ndetse n'ubumenyi ku bijyanye n'ubugeni n'ubuhanzi harimo nk'ububumbyi, ibyo bifasha kandi ababyiga mu kwiteza imbere ndetse no gusigasira umuco nyarwanda muri rusange.

Amashuri makuru na za kaminuza bagendeye kuri gahunda y'igihugu yo guteza imbere ubugeni n'ubuhanzi, byigisha abanyeshuri kwihangira imirimo ndetse no guhanga udushya binyuze mu bubumbyi kugira ngo babashe kurema ikintu gishya kandi ubwo bubumbyi bubashe kubabyarira amafaranga, iterambere ryabo n'iry'igihugu muri rusange.

u Rwanda ni igihugu cyateye imbere mu bintu bigiye bitandukanye ndetse no mu burezi cyateye imbere, aho usanga umubare w'amashuri makuru na za kaminuza wariyongereye, bityo abaturage benshi bagenda bakajya kwiga mu ma kaminuza ndetse n'amashuri makuru, bakabasha kunguka ubumenyi bwisumbuyeho, ibyo bifasha mu iterambere ryabo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda yo guteza imbere uburezi mu Rwanda, igenda ishishikariza amashuri makuru na za kaminuza zo kubaka ibikorwa remezo ndetse aho kwigishiriza hakwiye kandi haboneye hafasha abahagana kugira ngo babashe kubona ubumenyi kandi ibyo byose bigakorwa hakurikijwe amabwiriza ya leta y'igihugu uburezi buteye imbere n niyo gahunda ya leta.

Amashuri makuru na za kaminuza ku bufatanye na leta y'u rwanda ,bishishikariza abaturarwanda ndetse n'ababigana mu kwiga ubugeni ndetse n'ubuhanzi, muri ibyo bikorwa ndetse ni mu kwiga ibyo bintu byose bifungura ubwenge bw'ababyiga , bakabasha kwiteza imbere binyuze mu gukora ibihangano bitandukanye.

Leta y'u Rwanda binyuze muri gahunda yayo yo gushyigikira uburezi, muri gahunda y'uburezi kuri bose, igenda ishyigikira uburezi kuva ku rwego rw'amashuri abanza kugeza ku mashuri makuru na za kaminuza. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda ishyigikira ubuhanzi ndetse n'ubugeni aho byiga mu mashuri ya kaminuza ndetse ababyize bakabihererwa impamyabumenyi.